Twikoreraga ifumbire jy'imborera iwacu, wagera ku ishuri bavuga ngo tugiye gutaha mu biruhuko, watekereza ukuntu ugiye kwikorera ifumbire ry'imborera biri kugushongera, ugahita ugira ubwoba.

Ubuhinzi bw'ibireti ni bwiza cane. Uzi ukuntu bigiraga amafaranga? Mu majaruguru nicyo gihingwa cyadukujije，kiratwigisha， none ubu kugeza ubu tubaye abantu b'abagabo. igihingwa k'ibireti iyo cyakozwe neza cyane，kiradufasha muri byose kandi.

Guhinga ni byo bya mbere ubundi. Ubundi umuhinzi ku isonga. Benshi dutungwaga no guhinga, guhinga ibijumba, ibishimbo, ibirarayi, ubundi iyo byeze neza, umuntu akabirya akavuyara.

Ubuhinzi bwa kijambere n'ubuhinzi bukozwe neza kandi muri gahunda hano mu majaruguru duhingaga ku muronko tugakoreshasha ifure mvaruganda tugakoresha n'imborera kandi iyo fumbire ikora neza cyane ku buryo uyikoreshaje rwose ucura umusaruro mwiza kandi uhagije.

Amaronje gabaga mu yihe ntara? Sinzi impamvu mu majaruguru tutaja duhinga amaronje. Gusa garajo gararyohaga we gararyohaga cyane! Data yajyaga ayatugurira ariko araryoha kubi.

Ibyiza bitatse intara y'Amajyaruguru icya mbere ni ingagi, ingagi zituvanira amadovize abazungu bakaza kudusura, wasangaga ubundi kera abazungu baza mu Rwanda tukirirwa twabashungeye ngo batwihere ku mafaranga.